Abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bahagaze hamwe ku ruziga bari kumwe n'abarezi babo, aho bari kubakoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Icyumba kirimo abana bakiri bato, harimo abakobwa ndetse n'abahungu. Bose bicaye hamwe, mugenzi wabo arahagaze ari kubereka ibyo bagomba gukora. Imbere yabo kandi hicaye umubyeyi uri kubayobora.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ikigo cy'amashuri, aho abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bari kwitabwaho n'abayobozi babo, babahereza amafunguro kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri aho abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa biga mu umwaka w'incuke bari kwitabwaho n'abayobozi babo babahereza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kicayemo abana bakiri bato, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, aho bari kuganirizwa n'umurezi wabo, abigisha kwandika ndetse no gusoma neza, kugira ngo barusheho gukura bafite ubumenyi.

Abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari kumwe n'umurezi wabo, aho ari kubigisha gusoma ndetse no kwandika kugira ngo bakomeze gukura bafite ubumenyi kandi bacangamutse.

Abanyeshuri bakiri bato, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bicaye hamwe bateze amatwi umurezi wabo, aho ari kubigisha kwandika ndetse no gusoma kugira ngo barusheho gukura bafite ubumenyi buhagije.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, aho abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bari kwitabwaho n'umurezi wabo, abigisha gusoma ndetse no kwandika, kugira ngo barusheho gukura neza bafite ubumenyi.

Abana bakiri bato biga mu mwaka w'incuke, bose bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, ifite ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, bari kumwe n'umuyobozi wabo ari kubakoresha imyitozo ngororamubiri, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Mu kigo cy'amashuri aho abana biga mu mwaka w'incuke bicaye hamwe ku meza bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, imbere yabo bafite ibikinisho kandi bari kuganira hagati yabo.

Hanze y'ikigo cy'amashuri, aho abana bakiri bato biga mu mwaka w'incuke, bari gukaraba intoki babifashijwemo n'abayobozi babo kugira ngo bakureho imyanda iyo ariyo yose ishobora kubatera uburwayi butandukanye.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, aho abana bakiri bato, abahungu ndetse n'abakobwa bari kumwe n'abarezi babo babigisha gusoma ndetse no kwandika kugira ngo bakomeze gukura bafite ubumenyi.

Icyumba kirimo abana bakiri bato b'abahungu ndetse n'abakobwa, biga mu mwaka w'amashuri w'incuke, aho bicaye hamwe bari gukina, kugira ngo baruhuke neza bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Mu kigo cy'amashuri, aho abana b'incuke b'abakobwa bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bahagaze imbere bari gukina imikino hagati yabo, muri iki cyumba kandi hariho ikibaho cyanditseho amagambo.

Ahateraniye abana bakiri bato biga mu mwaka w'incuke, harimo abakobwa ndetse n'abahungu aho bari kumwe n'abayobozi babo, babafasha gukina kugira ngo barusheho kuruhuka neza, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri, aho abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bicaye hamwe bari kuganira kandi bakina imikino itandukanye kugira ngo babashe kuruhuka neza.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari kwitabwaho n'umurezi wabo, abahereza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Abana bakiri bato bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, biga mu mwaka w'incuke, bicaye ku ntebe imbere yabo hateretse ameza kandi bafite udukaye bari gusomamo kugira ngo bazamure ubumenyi bwabo.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari kwitabwaho n'abarezi babo, babahereza ibyo kurya byabugenewe kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ikigo cy'amashuri, aho abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu biga mu mwaka w'inshuke bari kwitabwaho n'abayobozi babo babahereza ibyo kurya birimo intungamubiri.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri, aho abana b'inshuke bigira bagahabwa ubumenyi, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho, muri iki cyumba kandi hari ikibaho cyo kwandikaho mu gihe abanyeshuri bari kwiga.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye, harimo abana bakiri bato b'abanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Imbere yabo bafite amakaye yo kwandikamo kandi bari kumwe n'umuyobozi wabo ari kubigisha.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari kwitabwaho n'umuyobozi wabo, aho ari kubigisha gusoma ndetse no kwandika, kugira ngo bakomeze gukura bafite ubumenyi bwinshi.

Hanze ikigo cy'amashuri aho abana b'inshuke bafatira uburezi, hari abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari gukina hagati yabo kugira ngo baruhuke neza bityo bakomeze gufata ubumenyi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y ikigo cy'amashuri, harimo akabati karimo ibikoresho byifashishwa muri iyi nyubako kandi hejuru kuri aka kabati hariho imidari ndetse n'ibikombe by'ubwoko butandukanye, bagiye batsindira mu mikino itandukanye.

Abana bakiri bato babanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bicaranye n'umuyobozi wabo ari kubigisha gusoma ndetse no kwandika kugira ngo bakomeze gukura bafite ubumenyi.

Icyumba kirimo ameza ateretseho mudasobwa, umuti wo gukaraba intoki ndetse n'impapuro zo kwandikaho, iruhande rw'ameza hari intebe yo kwicaraho ndetse n'imashini z'ubwoko butandukanye zikoreshwa mu mirimo myinshi.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri aho abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari gukina imikino itandukanye hagati yabo ibafasha kuruhuka neza, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari kumwe n'abayobozi babo, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso kandi bose bafite ibihingwa mu ntoki zabo.

Hanze ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Hanze y'inyubako, hateye indabo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, kandi hateye ibiti by'ubwoko bwinshi. Hagati na hagati mu kibuga hashinzemo idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi, hari umwana ukiri muto w'umuhungu wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe uri gutambuka iruhande rw'inyubako, hanze y'ikigo kandi hateye indabo zifite amabara y'ubwoko butandukanye nk'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Hanze y'ikigo cy'amashuri, aho abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo baruhuke neza bityo bakomeze amasomo yabo.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri hari abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe ifite ibara ry'ubururu ndetse na kaki, aho bahagaze mu madirishya bareba mu imbere mu mashuri.

Hanze y'ikigo cy'amashuri, aho abana b'incuke bafatira ubumenyi, hari abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari kumwe n'umuyobozi wabo ari kubitaho.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri hari abana bakiri bato bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe aho bari mu kiruhuko bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Mu kigo cy'amashuri aho abana bakiri bato, umuhungu ndetse n'umukobwa bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bafite mudasobwa imbere yabo ifite ibara ry'umweru, icyatsi kibisi ndetse n'umutuku. Bari kuyikoresha kugira ngo barusheho kuzamura ubumenyi bwabo.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri, harimo abakobwa ndetse n'abahungu bateruye amafunguro mu bikoresho byabugenewe, aho bagiye gusangirira hamwe kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Hanze y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye, hari ikigega gifite ibara ry'umukara, aho barebekamo amazi kugira ngo azakoreshwe mu mirimo itandukanye ikorerwa muri iki kigo cy'amashuri.

Icyumba kiri mu kigo cy'amashuri. Harimo abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara rya kaki. Bafite amakaramu mu ntoki zabo, bari kwandika mu makayi.

Hanze y'inyubako y'amashuri ku gikuta hari icyapa kiyobora abaje bagana muri iki kigo, kugira ngo batayoba kandi cyanditseho serivisi zose zitangwa muri iki kigo kugira ngo abaje babagana babashe gusobanukirwa neza.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho abana bakiri bato, harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Bari gukina imikino itandukanye hagati yabo, kugira ngo baruhuke neza. Bityo bajye gukomeza amasomo yabo bameze neza.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, hari abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, ahari abana b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rw'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko bwinshi.

Hanze y'inyubako ikigo cy'amashuri, aho abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bicaye hasi, bafite amakara mu ntoki zabo bari kwandika mu makaye.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri aho abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari gukina kugira ngo baruhure neza ubwonko bityo basubire mu masomo yabo bameze neza.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri hari abana bakiri bato, harimo abahungu ndetse n'abakobwa aho bari gukina basusurutsanya kugira ngo babone kuruhuka neza, bityo basubire mu masomo yabo ameze neza.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa uburezi, hari abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe aho bari gukora imyitozo ngororamubiri ibafasha kuruhuka neza kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ikigo cy'amashuri, harimo utubati tumanitsemo ibitabo hasi no hejuru, abanyeshuri bifashisha kugira ngo bazamure ubumenyi bwabo bityo bakomeze gutera imbere.

Ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa bakiri abanyeshuri, bose bambaye imyambaro y'ishuri bicaye hamwe, imbere yabo hari abayobozi bayoboye ibiganiro.

Ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'abanyeshuri batandukanye, harimo abasore ndetse n'abakobwa, aho bose bambaye imyambaro y'ishuri, imbere yabo hicaye abayobozi babo, aho bari kubagezaho ibiganiro.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, harimo utubati tumanitsemo ibitabo hasi ndetse no hejuru, aho abanyeshuri babyifashisha mu bushakashatsi bwabo kugira ngo barusheho kwiyungura ubumenyi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri, harimo abana b'abanyeshuri bari gukurikira umwarimu wabo uri kwandika ku kibaho kandi bafite amakaye ndetse n'ibitabo bifashisha bari kongera ubumenyi.

Hanze y'inyubako itangirwamo ubumenyi ku bintu bitandukanye. Hahagaze umugabo wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ushinzwe kureba abinjira ndetse n'abasohoka. Iruhande rw'inyubako kandi hateye indabo zifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri. Harimo abana bakiri bato, abahungu ndetse n'abakobwa bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari kuganirizwa n'umuyobozi wabo ababwira uburyo bagomba kwitwara.

Ku marembo y'inyubako y'ikigo cy'amashuri cya kigeme, hejuru kuri iyi nyubako hamanitse icyapa kinini kiyobora abaje bagana kuri iki kigo, hanze y'inyubako kandi hahagaze umwana ukiri muto, uri kumwe n'umubyeyi we.

Hanze y'inyubako y'amashuri ahatangirwa bumenyi ku bintu bitandukanye, hari abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe ifite ibara ry'umweru ndetse na kaki, bari gutembera hanze kandi iruhande rwabo hateye ibiti.

Icyumba cyabereyemo ibiganiro byitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa bakiri abanyeshuri, bose bicaye hamwe bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe kandi imbere yabo hicaye abayobozi, aho bafite amacupa arimo amazi meza yo kuywa.

Ku marembo y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye, hejuru hari icyapa kinini kiyobora abaje bagana iyi nyubako kugira ngo batayoba. Iruhande rw'inyubako kandi hateye ibiti by'ubwoko bwinshi bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Ikigo cyabereyemo inama yitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore, ndetse n'abakobwa b'abanyeshuri. Bose bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Imbere yabo hicaye abayobozi bayoboye ibiganiro.

Hanze y'ikigo cy'amashuri aho abana bakiri bato b'abanyeshuri, harimo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bahagaze hamwe bari kumva amabwiriza bayahabwa n'umuyobozi wabo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe, imbere yabo hahagaze umusore wambaye umupira w'umweru ni we uri kubakoresha inama.

Icyumba cyabereyemo ibiganiro byitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa bakiri abanyeshuri, aho umuyobozi wabo ahagaze imbere ari kubaganiriza uburyo bagomba kwitwara kugira ngo barusheho gukura neza.

Hanze y'ikigo cy'amashuri, ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe, bose bicaye hamwe bahanze amaso umuyobozi wabo ubahagaze imbere, kandi ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Icyumba cyabereyemo amasengesho, aho urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa bakiri abanyeshuri baje gusenga, bose bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bicaye hamwe, bahanze amaso umuyobozi wabo uhagaze imbere.

Ikibuga cyabereyemo imikino itandukanye, yitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho bari guhura hagati yabo bagasusurutsanya. Muri iki kibuga kandi, hateyemo ibiti by'ubwoko bwinshi, bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa b'abanyeshuri, bose bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bicaye hamwe bakurikiranye umugabo uri kubahereza ibiganiro; imbere yabo kandi hicaye abayobozi babo.

Ku marembo y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi. Hejuru hari icyapa kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako kugira ngo batayoba kandi kigaragaza serivisi zitangwa muri iki kigo cy'amashuri. Iruhande rw' inyubako kandi hari abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Iruhande rw'inyubako hateye ibiti birebire ndetse n'indabo bizana umwuka mwiza muri iki kigeri. Iruhande rw'inyubako kandi hamanitse idarapo rifite amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Mu nzira nyabagendwa aho abana bakiri bato b'abanyeshuri bafite ibikoresho by'ishuri, bari gusohoka mu modoka abandi binjira kugira ngo imodoka ibashe kubageza aho bagana hatandukanye.

Kimwe mu cyumba kirimo nyubako itangirwamo ubumenyi ku bintu bitandukanye, harimo utubati tubitsemo ibikoresho harimo ibitabo byifashishwa bari kongera ubumenyi bw'abanyeshuri.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, harimo utubati turimo ibitabo hasi ndetse no hejuru, byifashishwa n'abanyeshuri bari mu bushakashatsi kugira ngo bongere ubumenyi bwabo.

Icyumba kirimo abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Harimo kandi mudasobwa abanyeshuri bifashisha bari gutunganya amasomo yabo, kugira ngo barusheho gutsinda neza.

Icyumba cyabereyemo ibiganiro byitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, bakiri abanyeshuri kandi bose bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, umwe muri bo ahagaze imbere yabo ari kubakoresha inama.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iparitse hanze ku muhanda, aho abanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu bari kwinjiramo kugira ngo ibafashe kugera aho bafatira ubumenyi bwabo mu bice bitandukanye.

Ahabereye inama yitabiriwe n' abantu b'ingeri zitandukanye, harimo urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, bose bicaye hamwe bambaye imipira ifite ibara ry'umweruru ndetse na oranje, aho bahanze amaso umuyobozi wabo.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, hari abana b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe aho bari kuganirizwa n'abayobozi babo, iruhande rw'amashuri kandi hateye ibiti birebire ndetse n'indabo bizana umwuka mwiza.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Iruhande rw'inyubako hateye ibiti bizana umwuka mwiza muri iki kirere kandi iruhande rw'inyubako hamanitse idarapo rifite amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa uburezi. Iruhande rw'inyubako hateye ibiti by'ubwoko bwinshi bizana umwuka mwiza muri ikirere kandi mu kibuga hamanitsemo ibendera rifite amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Hahagaze abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe ndetse n'umuyobozi wabo ku ruhande. Imbere y'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara y'umweru n'icyatsi kibisi.

Hanze y'ikigo cy'amashuri ahari umwana ukiri muto w'umuyeshuri wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hanze y'amashuri kandi hateye ibyatsi ndetse n'indabo bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Itsinda ry'urubyiruko rw'abanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bose bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bafite ibitabo mu ntoki zabo bifite ibara ry'ubururu, aho bari kuririmbira hamwe.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo ku ishuri, harimo abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, aho bafite ibiryo imbere yabo, bakaba bari gufungura kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri aho abanyeshuri baza gusubiriramo amasomo yabo, harimo utubati turimo ibitabo hasi no hejuru bifashisha bari gukora ubushakashatsi kugira ngo bazamure ubumenyi bwabo.

Hanze y'inyubako ikigo cy'amashuri ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa b'abanyeshuri. Imbere yabo hari umuyobozi uyoboye ibi biganiro aho bari kumubaza ibibazo bitandukanye.

Icyapa kiri iruhande rw'amashuri, cyanditseho serivisi zose zitangwa muri iki kigo cy'amashuri kandi kiyobora abaje bagana muri iki kigo kugira ngo batayoba, iruhande rw'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko bwinshi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, harimo abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe, aho bari gukoresha mudasobwa imbere yabo, kandi bose bafite amacupa arimo amazi meza yo kunwa.

Ku marembo y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, hari icyapa kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako kugira ngo batayoba, iruhande rw'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko bwinshi zifite amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Ku marembo y'ikigo cy'amashuri aho hejuru hari icyapa kiyobora abaje bagana muri iki kigo kugira ngo batayoba, ku bikuta kandi handitseho amagambo mu ibara ry'umweru yerekana serivisi zose zitangwa muri iki kigo

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, cyane cyane urubyiruko rw'abanyeshuri, harimo abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe barakurikiye imbere yabo kandi hari umusore uri gufata amashusho.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa bakiri abanyeshuri, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, aho bose bicaye hamwe bakurikiranye ibiganiro, imbere yabo hicaye abayobozi.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho abana b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe bahagaze hamwe bari kumwe n'abayobozi babo, bari gufata ifoto y'urwibutso, iruhande rwabo kandi hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Hanze y'ikigo cy'amashuri ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa bakiri abanyeshuri. Bose bicaye hamwe bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bahanze amaso umuyobozi wabo uri kubaha ibiganiro.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, harimo intebe zicarwaho n'abanyeshuri baje muri iki cyumba ndetse n'ameza aterekwaho ibikoresho, muri iki cyumba kandi hariho ikibaho cyifashishwa cyandikwaho mu gihe abanyeshuri bari kwiga.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo ku ishuri, ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye, harimo abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe ifite ibara ry'umweru ndetse na kaki, baricaye umwe muri bo ahagaze imbere ari kubaha amabwiriza.

Ku marembo y'ikigo cy'amashuri, hari icyapa kinini kiyobora abaje bagana kuri iki kigo kugira batayoba kandi kiriho serivisi zitangwa muri iyi nyubako, hanze y'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'umweru.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri ahatangirwa uburezi, harimo intebe abanyeshuri bicaraho ndetse n'utubati abanyeshuri babikamo ibikoresho byabo kugira ngo bitangirika.

Ku marembo y'inyubako y'ikigo cy' amashuri ahatangirwa serivisi z'uburezi, hanze hari icyapa kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako kugira ngo batayoba kandi kigaragaza serivisi zose zitangwa n'iki kigo.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe ifite ibara ry'umweru ndetse na kaki, bari kumwe n'abayobozi babo aho bari gusobanurirwa amateka yaranze umwanya basuye.

Ku marembo y'inyubako y'ikigo cy'amashuri aho hari icyapa kiyobora abaje bagana muri kino kigo kugira ngo batayoba, iruhande rw'inyubako kandi hateye ibiti by'ubwoko butandukanye bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi, hari abasore babiri bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, hanze y'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, harimo umunyeshuri wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, aho ari kwandika ku kibaho akoresheje ingwa yabugenewe.

Abana bakiri bato bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bicaye hamwe, bafite amakaramu mu ntoki zabo ndetse n'amakaye bari kwiga. Iruhande rwabo harambitse ibitabo by'ubwoko butandukanye bibafasha kongera ubumenyi.

Icyapa kiri ku marembo y'ikigo cy'amashuri, kiyobora abaje bagana kuri iki kigo cy'amashuri, kandi cyanditseho serivisi zose zitangwa muri kino kigo kugira ngo uje ahagana abone amakuru yose ahagije.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri harimo abana bakiri bato b'abanyeshuri, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, aho bari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri n'umuyobozi wabo ubahagaze imbere kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri. Harimo abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bicaye hamwe bari kwiga. Muri iki cyumba kandi harimo ikibaho cyo kwandikaho.

Ku marembo y'ikigo cy'amashuri gitangirwamo uburezi hari ibyapa biyobora abaje bagana muri iki kigo ndetse biriho serivisi zose zitangwa muri iki kigo, hanze y'inyubako kandi hari urujya n'uruza rw'abaturage.

Kimwe mu cyumba kirimo mu nyubako y'ikigo cy'amashuri, harimo umwarimu wambaye umwambaro w'akazi wabugenewe ufite ibara ry'umweru, aho ari kwigisha abanyeshuri, imbere ye hari ibitabo by'ubwoko butandukanye bifashisha bari kwiga.

Kimwe mu cyumba kiri mu kigo cy'amashuri, aho abanyeshuri baza kwiga kugira ngo bongere ubumenyi bwabo, harimo ibitabo abanyeshuri bifashisha bari mu bushakashatsi ndetse n'intebe zo kwicaraho muri iki cyumba kandi harimo ikibaho cyo kwandikaho.

Ku marembo y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, hejuru hari icyapa kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako kugira ngo batayoba, iruhande rw'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiti bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, ahabereye ibiganiro byitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa b'abanyeshuri, bose bicaye hamwe, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, imbere yabo hahagaze umuyobozi uri kubaha ibiganiro.

Ahabereye imikino y'ubwoko butandukanye yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa kandi harimo n'abana bakiri bato. Bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze bari kurebera umuntu uri gukina.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa bose bicaye hamwe bahanze amaso imbere umuyobozi wabo uri kubaha ibiganiro.

Kimwe mu cyumba kiri mu kigo cy'amashuri, ahatangirwa ubumenyi, ku bintu bitandukanye. Harimo ibikoresho, abanyeshuri bifashisha, bari gukora ubushakashatsi, ndetse n'ibindi bikoresho, nk'ameza ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi. Harimo umugabo uhagazemo, imbere ye hari ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa n'abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi butandukanye.

Inyubako iberamo imyidagaduro y'ubwoko butandukanye, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, muri iyi nyubako kandi harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa muri iyi myidagaduro.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo inama yitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho bicaye hamwe kandi imbere yabo hakaba hicaye abayobozi bayoboye inama, akaba aribo bari kubaha ibiganiro.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye, harimo utubati turimo ibitabo by'ubwoko bwinshi butandukanye aho abanyeshuri babyifashisha bari gukora ubushakashatsi, kugira ngo barusheho kuzamura ubumenyi bwabo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore, ndetse n'abakobwa bose bahagaze imbere, bari gufata ifoto y'urwibutso, muri iki cyumba kandi harimo intebe zo kwicaramo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo ku ishuri, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza ateretseho mudasobwa yifashishwa mu kazi, muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa ku ishuri.

Ku marembo y'ikigo cy'amashuri ahari icyapa kinini cyanditseho serivisi zitangwa muri kino kigo kandi kiyobora abaje bakigana kugira ngo batayoba. Iruhande rw'inyubako kandi hateye ibiti by'ubwoko butandukanye bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Ku marembo y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, hari icyapa kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako kandi hari urukarabiro abanyeshuri bifashisha bari gukuraho imyanda iyo ari yo yose ishobora gutuma banduzanya indwara hagati yabo. Iruhande rw'inyubako kandi hateye ibiti.

Hanze y'inyubako iri mu kigo cy'amashuri, aho abanyeshuri baza guhurira n'abayobozi babo kugira ngo bababwire ibibazo bafite, bityo babibakemurire. Iruhande rw'inyubako hateye indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi, ndetse n'ibiti birebire bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri ahabera ubushakashatsi, harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye abanyeshuri bifashisha bari gukora ubushakashatsi bwabo kugira ngo barusheho kongera ubumenyi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ishuri ahabera ubushakashatsi ku bintu bitandukanye. Harimo ibikoresho ndetse n'imashini abanyeshuri bifashisha bari gukora ubushakashatsi kugira ngo bongere ubumenyi bwabo.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Iruhande rw'iyi nyubako, hateye ibyatsi ndetse n'indabo, bifite ibara ry'icyatsi kibisi, bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Icyumba kirimo ameza atetseho ibikoresho bitandukanye ndetse n'utujerekani turimo amazi meza yo kunywa, muri iki cyumba kandi harimo intebe yo kwicaraho ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa muri iki cyumba.

Hanze y'inyubako y'amashuri atangirwamo ubumenyi butandukanye, hateye ibiti by'ubwoko bwinshi bizana umwuka mwiza muri iki kirere, iruhande rw'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara y'umweru, icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Ku marembo y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa serivisi z'ubumenyi ku bintu bitandukanye, hejuru hari icyapa kiyobora abaje bagana iyi nyubako kugira ngo batayoba, iruhande rw'inyubako kandi hateye ibiti by'ubwoko bwinshi bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo ku ishuri, ahatangirwa ubumenyi butandukanye, harimo mudasobwa abanyeshuri bifashisha bari kuzamura ubumenyi bwabo, ndetse n'ibitabo bifashisha mu bushakashatsi, muri iki cyumba kandi harimo intebe zo kwicaraho, ndetse n'utubati two kubikamo ibikoresho.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, aho bicaye hamwe, bahanze amaso imbere yabo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa. Imbere yabo bafite mudasobwa, aho bari kuzikoresha mu nama yabo.

Mu kigo cy'amashuri ahakorerwa ubushakashatsi, aho abanyeshuri bambaye imyambaro y'umweru, bari kwifashisha imashini zabugenewe bakora ubushakashatsi, kugira ngo bagenzure ubuziranenge bw'imiti.

Icyapa gifite amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu cyanditseho serivisi zitandukanye zitangwa mu kigo cy'amashuri ndetse kiyobora abaje bagana kuri iki kigo kugira ngo batayobagurika.

Hanze y'inyubako ikigo cy'amashuri ahatangirwa uburezi bw'ibintu bitandukanye, hari ibiti by'ubwoko bwinshi ndetse n'indabo zizana umwuka mwiza muri iki kirere, kugira ngo abagituraniye bakomeze guhumeka neza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako itangirwamo ubumenyi ku bintu bitandukanye, harimo intebe abaje muri iki cyumba bicaramo ndetse n'ameza arambikwaho ibikoresho, muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako mu kigo cy'amashuri, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho byazanywe n'abanyeshuri, muri iki cyumba kandi hejuru harimo amatara yaka kugira ngo aboneshereze abanyeshuri.

Hanze y'inyubako y'amashuri itangirwamo ubumenyi, hateye ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'indabo zifite amabara atandukanye nk'umweru, umutuku ndetse n'umuhondo bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Icyumba kirimo ibitanda byo kuryamaho kugira ngo uri kubikoresha aruhuke neza, ndetse n'utubati twifashishwa mu kubikwamo ibikoresho kugira ngo bitangirika, muri iki cyumba kandi harimo intebe yo kwicaraho ndetse n'ameza

Kimwe mu cyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, muri iki cyumba harimo mudasobwa ndetse n'utubati tubitsemo ibitabo byifashishwa hari gukorwa ubushakashatsi.

Hanze y'inyubako itangirwamo uburezi, iruhande rwayo hateye ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye kandi haparitse imodoka zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, kuri iyi nyubako kandi hariho amadarapo y'ibendera ry'igihugu.

Hanze y'inyubako ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi, hateye ibiti by'ubwoko bwinshi bizana umwuka mwiza muri iki kirere. Aha kandi hateye indabo zifite amabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi kibisi ndetse n'ayandi atandukanye bituma harushaho kugaragara neza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo ubushakashatsi harimo utubati tubitsemo ibitabo by'ubwoko bwinshi, aho abanyeshuri babyifashisha bari mu bushakashatsi bwabo kugira ngo barusheho kuzamura ubumenyi bafite. Muri iki cyumba kandi harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe imbere yabo hari umuyobozi uyoboye inama ufite indangururamajwi mu ntoki ze, iruhande rwe hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko y'inama.

Kimwe mu cyumba, kiri mu nyubako, yo ku ishuri ahatangirwa ubumenyi bw'bintu bitandukanye. Harimo ikibaho umwarimu yandikaho iyo ari kwigisha abanyeshuri, ndetse n'ameza arambikaho ibikoresho bye. Muri iki cyumba kandi, harimo imashini, ifasha mwarimu, kwereka abanyeshuri, amashusho.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kuryamamo, harimo igitanda ndetse n'akabati karimo imyenda yo kwambara. Muri iki cyumba kandi harimo umukobwa uhagaze wifashe mu mayunguyungu.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Harimo ibikoresho by'ubwoko bwinshi, abanyeshuri bifashisha bari mu bushakashatsi, kugira ngo bakomeze kwiyungura ubumenyi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako, iberamo ubushakashatsi bw'imiti, aho abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bari kwifashisha ibikoresho biri muri kino cyumba, bareba neza ubuziranenge bw'imiti.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye. Harimo imashini ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora ubushakashatsi kugira ngo abanyeshuri barusheho kongera ubumenyi bwabo.

Hanze y'inyubako y'urusengero, aho abaturage b'ingeri zitandukanye baza gusengera. Hateye ibiti by'ubwoko bwinshi ndetse n'indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'amabara y'umuhondo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kuraramo, harimo igitanda kiriho amashuka afite ibara ry'umweru ndetse n'ameza n'agatebe ko kwicaramo, muri iki cyumba kandi harimo akabati kabikwamo ibikoresho by'ubwoko butandukanye.

Icyumba kirimo intebe zo kwicaraho, muri iki cyumba kandi harimo akameza gateretseho amasahani akoreshwa mu rugo, aha kandi harimo akabati gapanzemo inkweto z'ubwoko butandukanye.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, harimo abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe, aho bafite ibikoresho imbere yabo, byifashishwa mu gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ibyo biga.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri, harimo mudasobwa abanyeshuri bifashisha bari gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'amasomo yabo; muri iki cyumba kandi, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo kurambikaho ibikoresho.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Imbere yabo bafite mudasobwa kandi hahagaze umugabo uri kubasobanurira neza uburyo bagomba gukoresha mudasobwa.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho bicaye hamwe bari kuganira ku ngingo zitandukanye kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama. Harimo intebe zo kwicaraho, ndetse n'ameza ateretseho ibikoresho by'ubwoko butandukanye. Muri iki cyumba kandi harimo icyapa kinini cyanditseho amagambo agaragaza ibyaranze inama.

Hanze y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye, hateye ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi kibisi, bizana umwuka mwiza muri iki kirere. Iruhande rw'inyubako kandi hateye n'indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa. Bose barahagaze bakurikiranye ibiganiro, imbere yabo kandi hahagaze umuyobozi uri kubahereza ibiganiro.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, imbere yabo hari za mudasobwa, aho umuyobozi wabo ari kubafasha kubereka neza uburyo mudasobwa zikoresha, kugira ngo bakomeze kuzamura ubumenyi bwabo.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri aho abanyeshuri baza gufata ubumenyi, iruhande rw'inyubako hateye indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi kandi hamanitse ibendera rifite ibara ry'ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo inama, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'utumeza duto two guterekaho ibikoresho, harimo umunyeshuri wicaye ku ntebe afite mudasobwa imbere ye ari kuyikoresha, muri iki cyumba kandi harimo ikibaho cyo kwandikaho.

Urujya n'uruza rw'abaturage, harimo abagabo, abagore abasore ndetse n'abakobwa bari kwinjira mu kigo cy'amashuri kugira ngo bakomeze guhabwa ubumenyi, iruhande rw'iyi nyubako kandi hateye ibiti by'ubwoko bwinshi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kubamo, ahari intebe zo kwicaraho, ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho. Muri iki cyumba kandi harimo akabati, bifashisha babikamo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu rugo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ikigo cy'amashuri. Harimo abanyeshuri bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bari gukora ubushakashatsi bw'imiti kandi bafite impapuro imbere yabo bandikaho amakuru.

Hanze y'inyubako itangirwamo ubumenyi ku bintu bitandukanye, iruhande rw'inyubako hateye indabo z'ubwoko bwinshi zifite amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'umweru, aho zizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'amashuri ahakorerwa ubushakashatsi, harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye, aho byifashishwa n'abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi kugira ngo barusheho kongera ubumenyi bwabo.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri hateye ibiti by'ubwoko bwinshi ndetse n'indabo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, bizana umwuka mwiza muri iki kirere kugira ngo abahaturaniye barusheho guhumeka neza.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe bafite mudasobwa imbere yabo, kandi imbere yabo hahagaze umugabo uri kubakoresha inama.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo inama, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo gu guterekwaho ibikoresho, muri iki cyumba kandi imbere hari icyapa kinini kigaragaza ibyaranze inama ndetse n'amatara hejuru muri iyi nyubako.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako ikorerwamo inama, harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza aterekwaho ibikoresho, muri iki cyumba kandi imbere hari ikibaho cyandikwaho amagambo mu gihe inama iri kuba, ndetse n'amatara amanitse hejuru.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe bafite amakayi yo kwandikamo inshamake y'inama kandi imbere yabo hahagaze umuyobozi uri kubakoresha inama.

Hanze y'inyubako y'ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bintu bitandukanye, hateye ibiti birebire bizana umwuka mwiza muri iki kirere, iruhande rw'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'ayandi atandukanye.

Icyumba cyo kuryamamo harimo igitanda giteretseho ibikapu ndetse n'ibikoresho bitandukanye, muri iki cyumba kandi harimo inzitiramibu yifashishwa mu kwirinda umubu utera Malariya kugira ngo uraye muri kino cyumba akomeze kugira ubuzima bwiza.

Kimwe mu cyumba kiberamo ubushakashatsi, harimo utubati tubikwamo ibitabo by'ubwoko butandukanye, byifashishwa n'abaza muri iyi nyubako kugira ngo bazamure ubumenyi bwabo, muri iki cyumba kandi harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza yo guterekaho ibikoresho.